Sosiyete ishinzwe ubwishingizi mu binyabiziga ndetse n'ubw'ubuzima, irimo iramamaza ku cyapa kinini kandi ukaba ushobora kuyihamagara kuri zeru, karindwi, umunani, umunnani, ijana na mirongo icyenda n'umunani, zeru, zeru.

Kampani y'ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ubw'ubuzima ndetse n'ubw'amashuri y'abana bawe, turi kumwe gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango wawe radiyanti ushobora gukanda gatanu gatatu rimwe ukagura ubwishingizi.

purayimu incuwarensi, zigama none, tera imbere ejo. iki ni ikimina cyacu umugabo n'umugore barimo kwamamaza uburyo ushobora kwizigama na purayimu incuwarensi bityo ugatera imbere.

kampani y'ubwishingizi mu binyabiziga, ikaba irimo iramamaza. Iruhande hari imodoka yanditseho bpr banki mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi. Hari abaturage benshi barimo kuyireba kandi bayihanze amaso.

Icyapa kinini cyane, cya Allianz, kikaba cyamamaza yuko bafite ubwishingizi mu bijyanye n'ibinyabiziga cyangwa se ubwishingizi bw'ubuzima, icyo mukeneye cyose mushobora kubahamagara.

Radiyanti yacu irimo kwamamaza uburyo bushya mushobora kuza mugakorana n'ikigo cya mbere mu Rwanda cyemejwe na banki nkuru y'u Rwanda mu gutanga ubwishingizi buciriritse, mushobora kubahamagara kuri cumi n'umunani icumi.

Icyapa kinini cyamamaza asiranse y'ibicuruzwa bigiye bitandukanye cyangwa se imitungo y'abantu itandukanye. Urugero; imodoka, imirima, ubuzima, ndetse n'ibindi.

Rambaramba na buritamu, ikigo gitanga ubwishingizi bwaba ubwo kwivuza kandi bukaba buhendutse, bukaba bwaragenewe ibigo bigiye bitandukanye harimo ibigo bito, ibigo bito by'imari, sako n'amakoperative ndetse n'ibigo bya leta.

Icyapa cyamamaza, kikaba cyamamaza compani y'ubwishingizi. Bakaba batanga ubwishingizi bugiye butandukanye urugero, ubwishingizi bw'ibinyabiziga nka moto n'imodoka. Bakaba bitwa ariyance inshuwaretsi borokazi.

Sonarwa ikaba ari kampani itanga ubwishingizi. Ikaba ifite ubwishingizi bugiye butandukanye harimo ubwishingizi bw'ingendo n'ibindi. Umukobwa wambaye imyenda y'umweru, uri kuri terefoni, urimo kwamamaza Sonarwa.

Irembo ikaba ifite serivise zigiye zitandukanye, ikaba yaratangije umushinga wa byikorere aho ushobora kwisabira serivise zitandukanye kuri telefone yawe. Biroroshye kandi birizewe birihuta.

Icyapa cyamamaza kampani y'ubwishingizi, yaba ubwishingizi bw'ubuzima, ubw'ibinyabiziga, ubw'ibicuruzwa, ubw'imyaka n'ibindi, kikaba ari icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, cyometse hasi ku makaro, ku buryo uhanyura wese akibona.

Icyapa kinini cyamamaza uburyo ushobora kwiga gutwara kandi bitakugoye, kikaba kiri hafi y'amapoto atwara insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi.

Kampani y'ubwishingizi ikaba itanga ubwishingizi butandukanye burimo, ubwishingizi bw'ibinyabiziga ubwishingizi bw'ubuzima ndetse n'ibindi radianti isezerano ni isezerano.

Apurikasiyo ya banki ikoreshwa mu kuba wakwishyura cyangwa se kubikuza amafaranga yawe ikaba ari apurikatiso ya BPR bank kandi biroroshye kuyikoresha kuko ushobora kuyikoresha wiyibereye aho uri mu rugo.

Uburyo bworoshye bw'ikoranabuhanga aho ushobora kuba wakinjira muri banki yawe ukaba wakora ibyo ushaka urugero nko kwishyura, kubikuza, kubitsa n'ibindi utiriwe uva aho uri.

Apulikasiyo ya banki yerekana uburyo amafaranga ari kuri konti aba yaragiye akoreshwa. Zigama CSS ikaba ariyo ifite ubu buryo bworoshye kandi bwihuta bwo kuba wamenya uburyo bikorwamo.

Apulikasiyo ya banki yoroshye kandi yihuta ushobora gukoresha ukareba amafaranga usigaranye kuri banki, ndetse ukaba wanaka uburyo konti yawe yagiye ikoreshwa mu kwezi kose bakabiguraha.

Zigama CSS mobayiro bankingi, ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwihuse kandi bwemewe, uyu witwa Byiringiro Bosco, akaba arimo aravunja amafaranga ye kugira ngo ayashyire mu madorari.

Umucuruzi uri muri butike irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye urugero: nk'amasabune, amandazi, amavuta yo guteka n'ayo kwisiga ndetse n'ibindi bitandukanye.

Butike icuruza imyenda itandukanye, yiganjemo amashati y'amabara yose umutuku, ubururu, umweru n'ayandi mabara, iyi botike yitwa Gorudeni Fashoni Shopu.

Butike icuruza ibikoresho bikozwe mu bitenge bya medi ini Rwanda. Ibikoresho bitandukanye harimo ibikapu, imitaka, amakanzu ndetse n'ibindi. Bikaba biteretse ku meza y'umweru.

Butike icuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo imitako, yaba iyo mu nzu cyangwa se iyo ku mubiri, hakaba harimo imitako y'amabara agiye atandukanye, kandi yose bikaba bigaragaza umuco.

Butike icuruza imyenda igiye itandukanye, yaba ikozwe mu budodo ni yo yiganjemo, ndetse n'ibindi. Ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali. Iri mu makaro meza cyane y'umweru.

Butike irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, kandi byose bikaba byishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Umuguzi urimo urishyura ibicuruzwa bitandukanye akoresheje ikarita ye ya banki.

Imodoka nziza cyane y'ibara y'umukara yo mu bwoko bwa otomatike, ikaba iparitse nyirayo akaba agiye kuyinjiramo kuko amaze kuba yayigura kandi arishimye cyane kuko aguze imodoka nziza.

Akagera motozi kikaba ari ikigo gitanga serivise zerekeranye n'ibinyabiziga haba mu kubikuvanira hanze bakabiguha biri mu ntoki zawe kandi amafaranga yabyo aba ari make.

Imodoka y'umutuku icanye amatara, ikaba iherereye i Kigali ndetse ikaba ari nshyashya, ikaba irimo kugurishwa, ifite amarangi y'umutuku ushobora kubahamagara mukavugana.

Aho bagurishiriza imodoka zo mu bwoko bwa Yundayi. Haba haparitsemo imodoka zitandukanye, zaba inshyashya ndetse n'izakoze. Akaba ari icyapa kinini cyane cya Yundayi ku buryo uhageze wese ahita abimenya.

Akagera motozi ni compani ishobora kuba yakuzanira imodoka izikuye hanze ikazikugezaho kandi ku giciro gitoya, umugabo arimo arahabwa imodoka ye yatumije n'umwe mu bayobozi b'akagera motozi.

Imodoka yo mu bwoko bwa Yundayi ikaba iparitse ifite ibara rijya gusa umukara, niba witeguye kuyigura ushobora guhamagara kuri zeru karindwi umunani.

Amafaranga atanu, ni igiceri cyo mu Rwanda kikaba giteretse ku meza kiba gisa kake, kikaba cyarakoreshwaga cyane mu bihe bya kera.

Inote zigiye zitandukanye zo mu bihugu bigiye bitandukanye, zazanywe aho bavunjira amafaranga kugira ngo babashe kuzivunjamo amafaranga y'igihugu baba bifuza kuba babona.

Amafaranga agiye atandukanye yo mu bihugu bitandukanye, ikaba ari inote y'igihumbi zikaba ari nyinshi kandi zifitwe n'umuntu umwe ashobora kugenda akayavunjisha bakamuha amadolari ahwanye nayo.

Inote y'amafaranga y'ijana, yakoreshwaga kera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, iyi note ikaba itagikoreshwa muri iki gihe kuko haje inshya ziyisimbura.

Amafaranga y'amanyamahanga arimo amanyakenya, amadolari ndetse n'ayandi. Umuntu uyafite mu ntoki yambaye isaha, hafi ye hari akuma kamufasha kuyabara neza.

Umugabo urimo arakoresha icyuma gishinzwe kubara amafaranga, iyo amaze kuyabara ahita ayazirika, ari inote zisa maze akazitereka ku ruhande, kuko aba yamaze kumenya umubare wazo.

Banki nasiyonali de Rwanda, iyi ngiyi ni inote y'ibihumbi bitanu yakoreshwaga mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaba yari iriho abagore bari kubyina ndetse n'intore, bikaba byaragaragazaga umuco nyarwanda.

Umukozi ushinzwe gucuruza amata y'inyange, yicaye muri kiyosiki y'inyange kandi arimo aratanga serivisi zinogeye abakiriya. Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro ya kake yaje kugura amazi muri kiyosiki y'inyange.

Aho bagurira amata yo kunywa y'inyange. Hakaba kandi hari ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, urugero nka yahurute ndetse n'ibindi bitandukanye. Akaba abakiriya bose bashaka amata bahagana.

kiwosike y'inyange, aho bashobora kuguha amata yose wifuza, kandi bakaguha n'aho kuyanywera, icyo gihe uba ushobora kubishyura ukoresheje ikoranabuhanga, cyangwa se ubundi buryo.

Amandazi atandatu atetse neza kandi yose ari kw' isahani y'umweru. Amwe muri yo aba yisatuye ,bitewe n'uko ubushyuhe buba bwabaye bwinshi mu mavuta yari atetsemo.

Inyange miliki zone ni dayari ifite ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'inyange harimo amata amaji y'ubwoko bwose agiye atandukanye hakaba harimo amayawurute ndetse n'amata n'amazi yo kunywa.

Mukamira dayiri limitedi, akaba ari dayiri ya Mukamira yewe ibafitiye ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amata aba ari muri firigo kugira ngo adapfa, hari kandi na firigo nini cyane iterekwamo amata menshi kugirango adapfa.

Dayari y'inyange ikaba ifite amata meza kandi abayigana bose bahava bishimye. Umugore ufite igikombe kirimo amata uri kumwe n'umugabo wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'umukozi w'iyita dayari ari kubaha amata.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye ushobora gusanga dayari. Harimo amata yo kunywa, n'iyo waba ushaka kuyatwara barayaguha. Harimo kandi amandazi ndetse n'ibikombe byo kuba babaheramo ibyo kunywa.

Kuri dayari aho bagurishiriza amata, abayashaka bose akaba ari ho bagana kuko hari icyuma kinini. Hakaba hari na parikingi nini mushobora guparikaho mu gihe muje kuba mwakwaka amata, yaba ayo kunywa cyangwa ayo gutwara.

Dayari iriho amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ukaba ushobora kuyibonaho ibyo kunywesha ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye, ikaba ari dayari ya nyanza miriki indasituri.

Inyange miriki zone, Inyange ifite intungamubiri ukeneye kandi ku giciro cyiza, abakozi bakora kuri miriki zone y'Inyange bari kwakira abakiriya.

kiyosike icururizwamo amata hari umugore ufite amata mu ijagi arimo kuyasuka mu kabidoha kugira ngo umukiriya abone uko ayatwara uyu mukiriya arishyura akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Inyange milk zone, iki ni icyuma kiba kirimo amata y'inshyushyu inyange kuri kiyosike zigiye zitandukanye z'inyange industries. kandi baba bafite ibindi bicuruzwa bitandukanye by'inyange urugero nka ju, amazi n'ibindi.

kiyosike icuruza amata y'Inyange. Igikombe kirimo amata ndetse na keke iri ku isahane, byose biteretse ku meza. Zimwe muri serivisi batanga, nizo kuba baha abantu amata yo kunywa.

Uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, bityo bikaba byoroshye kandi byihuse. Mobile Money ni uburyo bwizewe abantu bashobora kugenda boherezanyaho amafaranga yabo mu buryo bwo kwishyura n'ibindi.

Uburyo bushya kandi bworoshye bw'ikoranabuhanga ushobora kwifashisha mu kwishyura ushobora gukoresha momopeyi cyangwa se ugahitamo ubundi buryo bukoroheye hamwe na emutiyeni mobayiro mani ibintu biroroshye.

Uburyo buri dijitari bwo kwishyuriraho, ushobora kuba wakoresha wishyura amafaranga kuri konti zigiye zitandukanye. Ushobora gukoresha ikarita yawe ya Banke, cyangwa se ugakoresha Online Banking. Byose birakunda.

Uburyo bworoshye kandi bwihuse bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga. Umukozi wa MTN mobayiro mani arimo arasobanurira abakiriya ba MTN ubwo buryo bworoshye kandi bwihuse bwo kwishyura na momo.

Uburyo bworoshye kandi bwihuse, ushobora gukoresha terefone yawe ukishyura serivisi zigiye zitandukanye. Ushobora gukoresha momo apu bityo bikakorohera, ukirinda amande y'ubukererwe ayo ari yo yose.

Fagitire igaragaza y'uko amafaranga yageze kuwitwa Emmanuel Ngendakuriyo, akaba ari ibihumbi magana abiri mirongo irindwi na kimwe, na magana inani na cumi n'atatu, y'amafaranga y'u Rwanda.

Uburyo bwizewe kandi bwihuse. Ushobora gukoresha peyipari. Ukaba wakohereza amafaranga kuri mobayiro mani. Bikaba mu kanya nk'ako guhumbya bityo umuntu uyoherereje, na we akabasha kuba yayakoresha bidatinze.

Uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora gukoresha ukishyura bitakugoye kandi burizewe rwose kanda akanyenyeri urwego cumi na gatatu mirongo itatu nakarindwi urwego wishyure bitakugoye.

Fagitire ya NCBA igaragaza yuko hari amafaranga yashyizwe kuri konti ahwanye n'ibihumbi magana atatu. Ikaba ari fagitire yatanzwe kandi yasinyweho n'umukozi ubifitiye uburenganzira.

Fagitire yemeza yuko umuntu yamaze kwishyura umusoro wose asabwa. Ikaba kandi itangwa na Rwanda reveni otoriti kandi ikaba itangirwa muri Gasabo.

Fagitire igaragaza yuko Ngari hayidoro pawa rimitedi, yamaze kuba yakishyura umusoro, bikaba byemejwe n'uwitwa Uwamahoro Magnifique, bikaba byakozwe byose hifashishijwe ikoranabuhanga.

Fagitire igaragaza yuko ikigo tekino purinti rimitedi, kimaze kwishyura umusoro wose kandi bakaba bishyuye bakoresheje ikoranabuhanga mu karere ka Nyarugenge.

Dokima ya banki yerekana uburyo Bank of Kigali yabikijweho amafaranga n'uwitwa KAREMERA Flavia bityo hakaba ari ikimenyetso cy'uko aya mafaranga yagiye abageraho mu bihe bitandukanye

Fagitire ya ibiyemu yatanzwe y'uko umuntu yarangije kwishyura umusoro wose asabwa. Uyu witwa senturo ja eme akaba yarangije kwishyura, bityo nta mande y'ubukererwe izajyaho.

Fagitire igaragaza yuko umuntu amaze kwishyura ubwishingizi mu kwivuza cyangwa se ubw'ikinyabiziga, bwa purayimu inshuwarensi rimitedi. Bikaba byakorewe kicukiro, kandi iyi fagitire ni iya IBM yemewe.

Urutonde rugiye ruriho uburyo ama banki agiye atandukanye ndetse n'ibigo bigiye bitandukanye, byagiye bibitsa amafaranga yabyo. Bikaba byemejwe n'umukozi ubifitiye uburenganzira, kandi akaba yabisinyeho.

Inyemezabwishyu yerekana yuko bercom ltd yamaze kwishyura umusoro wose yasabwaga. Uwitwa Uwiragiye pacifique ni we mu ofisiye wa Rwanda revenue authority washyize umukono kuri iyi nyemezabwishyu.

Taburo igaragaza uburyo amafaranga y'amanyamahanga agenda avunjwa ,ukaba mu gihe uyashaka hariyo wishyura kandi no mu gihe uje kuya kuyavunjisha hakaba hari ayo wishyura ibiciro byose biranditse.

Amafaranga y'abanyamahanga inote zitandukanye, umuturage ayafite mu ntoki kandi yayazanye ku biro bishinzwe ivunjisha kugira ngo bayamuvunjire mu mafaranga y'igihugu ke.

Amafaranga yo muri Tanzania magana atanu akaba ari ho inzu igaragaza umurage wabo hakaba hariho n'ikirango cy'inzoka izengurukije ku giti ikaba isa icyatsi.

Inote zitandukanye z'amanyamahanga zose zikaba zazanywe kuri kiyosike ,ishinzwe kuvunjisha amafaranga kugira ngo buri muntu uraza gukenera iyo serivisi abashe kuyibona.

Inote zitandukanye ziganjemo amadorari, umuntu uzifite mu ntoki akora mu biro bishinzwe ivunja ry'amafaranga, bityo arimo kuyabara neza kugira ngo abashe kumenya ayaha umukiriya wabo.

Inote ziri mu mabara atandukanye, ibingibi bikaba byerekana n'uburyo izo note arizo mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo inote z'amadorari zanditseho ijana, hari n'izindi note z'amakiyoze zanditseho magana abiri.

Amafaranga y'amanyamahanga, yiganjemo amadorari. Hakaba hari n'ibiceri by'amafaranga icumi by'amadorari. Byose hamwe bikaba biri buhabwe umuguzi uje kuguranisha amafaranga.

Kiyosiki ikoreramo ibiro bishinzwe kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga. Urugero amadolari, amayero, amafaranga yo mu Budage ndetse n'ayandi yose wakwifuza uyasanga aha.

Kiyosike ikorerwaho n'abakozi bashinzwe kuvunjisha, bakaba bafite kukuvunjira amafaranga yose waba ufite bakaguha ayo wifuza kandi bakabikora neza kinyamwuga ,biremewe kandi birihuta.

Kiyosike ivunjiraho amafaranga y'ubwoko bwose yaba amadolari bakayavunja mu mayero cyangwa mu manyarwanda biterwa n'ayo ushaka yose.

Ikigo gishinzwe kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga kikaba giherereye umujyi wa Kigali, uzana amafaranga ufite yaba amadolari cyangwa se yo mu kindi gihugu bakakuvunjira neza.

Kuri biro zitandukanye zivunjishirizwaho amafaranga y'amanyamahanga, hari abantu benshi baje kuvunjisha amafaranga y'abo kugira ngo bemererwe gukoresha amafaranga y'igihugu bagiyemo.

MTN uganda mpesa wa caratized no muri kenya ubugubu ni uburyo bwizewe kandi bworoshye ushobora kohereza amafaranga muri uganda muri kenya tanzania ndetse no mu rwanda ukoresheje mobile money.

Kiyosike ikorerwaho imirimo y'ivunjishwa ry'amafaranga agiye atandukanye; iremewe, irizewe, kandi irihuse. Aho wayisanga cyangwa se mu gihe ushaka kubavugisha, ushobora guhamagara nimero zabo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byo mu nzu byo kugurishwa. Ikaba ari ifoto iriho intebe nziza cyane zifite imyanya itatu hamwe n'indi ifite imyanya ibiri ndetse n'izindi ebyiri z'umwanya umwe umwe, zikaba izi ntebe zikoreye n'utumeza twazo dusa umukara.

Aho bakarabira hakozwe mu mbaho, kandi hakaba hasa neza cyane, imbere yaho kandi naho, hakaba hari akandi kantu bakarabiramo, kandi na ko kakaba gakozwe mu biti, ndetse no hasi hayo hakozwe mu biti.

Ibikoresho byo mu nzu bitandukanye byo kugurishwa, akabati k'umweru ndetse n'umukara gateretseho imitako yo mu nzu, intebe nziza cyane z'umweru ndetse n'akabati ka televiziyo kanini cyane, gasa umweru.

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu mbaho z'ibiti kandi zikaba zishobora kuvamo ibintu byinshi icyarimwe urugero hashobora kuvamo intebe, ameza kandi byose bikagurishwa ku giciro kidahenze.

Igitanda kinini cyane, kiriho matera iriho amashuka y'umweru. Iruhande rwayo hakabsa ameza ushobora guterekaho ibintu. Kikaba ari icyumba cya hoteri y'inyenyeri eshanu kandi kikaba ari cyiza.

Imeza ikozwe mu kirahure, ikaba ifite amaguru y'ibyuma ariko hejuru hayo ni ikirahure. Ateretse mu ishuri ririmo amakaro ndetse n'andi meza y'ibiti atandukanye.

Intebe enye ndetse n'ameza yazo byose bikozwe mu giti bikaba bisa shokora, hari n'akabati kabyo iruhande rw'inzu byose biri kugurishwa.

Ibikoresho bikozwe mu biti harimo intebe, ameza n'ibindi hakaba abantu babigurisha babifotora kugira ngo babishyire ku mbuga nkoranyambaga bityo abantu babibone babashe kubigura.

Icyumba cyo muri hoteli kirimo ibicuruzwa bijye bitandukanye harimo inzoga ndetse n'ibindi bitandukanye hari na televiziyo nini kandi abashaka kureba umupira bareberaho.

Kigali komvesheni senta ikaba ari inyubako iberamo inama zitandukanye z'abayobozi bakuru kandi hari na hoteli ishobora kwakira abayobozi benshi icyarimwe kandi batandukanye.

Hoteri y'inyenyeri eshanu, ifite ahantu ho kwicara hatuje cyane, umukozi uyikoramo ashinzwe kwakira abakiriya bose bahagannye. Hanze yaho hari ubusitani bwiza cyane abantu bashobora kwicaramo baruhuka.

Hoteri Rebanone, ikaba ikingishije ibirahure by'imikara bya fime kandi ikaba igeretse rimwe, hafi yayo hari amapave arimo parikingi zishobora kujyamo imodoka nyinshi icyarimwe.

Ameza ari mu ibara ry'umweru kandi afite n'utubati munsi, ushobora kubikamo ibintu bigiye bitandukanye, hejuru hari akabati gateretseho igikoresho kifashishwa mu gushyushya ibyo kurya.

Hoteli nziza cyane iri ahantu hitegeye umujyi wa Kigali ikaba ifite kizimyamwoto zitandukanye ziri ahantu henshi kugira ngo zifashishwe mu kuzimya inkongi y'umuriro hanze ya hotel hari ubusitani bwiza.

Inzu igeretse rimwe, isize amarangi y'umutuku, ndetse ikaba ifite n'ubusitani bwiza cyane, iyi nzu ikorerwamo na hoteri, hanze hari ubusitani bunini, abantu bashobora kwicaramo baruhuka, bumva amahumbezi.

Icyumba cya hoteri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, urugero nk'intebe, ndetse hari n'igitanda gishashe neza mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Hari n'amatara ashobora kuba yakifashishwa mu gihe umuntu akeneye gusoma.

Inyubako ndende cyane igeretse gatatu hanze hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo ziteye amabengeza kandi hari n'udutebe dutwikiriye dufite imitaka iturinda izuba abantu bashobora kwicaraho bakamererwa neza.

Kampani y'ubwishingizi, ikaba itanga ubwishingizi bugiye butandukanye, bwaba ubw'ibinyabiziga. Ibiro byabwo bihoramo abantu, kuko bahora biteguye gufasha ababagana.

Sosiyete y'ubwishingizi, ikaba itanga ubwishingizi bugiye butandukanye. Aho ikorera hakaba hari utubati twiza cyane, dukozwe mu biti dutatseho imitako yiganjemo indabo.

Kampani y'ubwishingizi ya SONARWA abaturage barimo gusobanurirwa uburyo bashobora gufata ubwishingizi bitabagoye, bityo bakabaho bishimye, ubwishingizi bw'ibinyabiziga ubwishingizi, bw'ubuzima n'ibindi.

Ibiro bikoreramo kampani ishinzwe ubwishingizi, byaba mu by' ubuvuzi ndetse no mu bwishingizi bw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Harimo abakozi babishinzwe kandi n'abakiriya baje gufata ubwishingizi barimo.

Ibiro bya kampani itanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ikaba iyo compani ari Radiyanti. Isezerano riba ari isezerano. Batanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga bitandukanye, yaba moto n'imodoka.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Polo Kagame yambaye ishati, y'umweru karuvati y'ubururu ndetse n'ikote ry'umukara akaba yambara amarinete kandi ari gufata ifoto yasetse.

Equity irimo kwamamaza uburyo bushya ushobora kuba wabona inguzanyo kandi mu buryo bukoroheye, bityo nawe ukaba watangira umushinga wawe, biroroshye kandi birihuta ni karibu.

BPR bank ikaba itanga inguzanyo igera kuri miliyoni mirongo itatu kandi ikaba nta ngwate isaba, bityo nawe ukaba wakiteza imbere ukava mu bwigunge nawe ugakora,

Abaturage batandukanye biganjemo abageze mu zabukuru, bombi bakaba baribumbiye muri koperative CPF ineza, bakaba baje mu nama kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Icyapa kinini kiriho abagore babiri barimo kwamamaza uburyo ushobora kuba wabona inguzanyo, niba uri umugore ushobora kugana Acess bank bityo ukabasha kuba wahabwa inguzanyo.

Ifishi, umunyamuryango wemewe kandi wizewe wa Access bank yuzuza, kugira ngo ahabwe ubwisungane, ubwishingizi bwemewe. Ibi byose yuzuzamo imyirondoro ye.

PSF, FSP; expo bibiri na cumi n'umunani, kuva mu kwa munani ku itariki makumya n'esheshatu kugeza mu kwa cyenda ku itariki cumi n'eshanu, barimo gutanga inguzanyo z'abanyeshuri. Ushobora kwaka inguzanyo ya BRD nawe ukiga.

Copedu PLC, Kimironko branch, inzu igeretse rimwe, ikoreramo ishami rya Copedu, riherereye Kimironko, akaba ariho Copedu ikorera.

BRD ndetse na BK kapito na RMB, bose bafite ubufatanye kugira ngo batange inguzanyo kandi inguzanyo ibyarira inyungu ku bantu bagenda bayihabwa kandi ikabavana ahantu hamwe ikabageza ahandi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byaba ibyo kwambara, ibikapu ndetse n'ibindi, harimo kandi n'abakiriya benshi bazindutse bagirango ngo baze guhaha ibyo bakeneye byose muri iri soko.

Isoko riri ahantu heza kandi ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imitako ndetse n'ibikoresho byo muru rugo byinshi bigiye bitandukanye urugero nk'ibyo guteka, ibyo muri salo n'ibindi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bijyiye bitandukanye yiganjemo imbuto z'ubwoko bwose, harimo imineke, hakabamo amacunga, ibinyomoro, avoka, amatunda, ndetse n'ibindi byose wakenera.

Umuhanda nyabagendwa uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, ku ruhande hari icyapa kinini cyane cyamamaza, hirya y'umuhanda hari inyubako ndende cyane igeretse gatatu.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo ibya kinyarwanda bijyanye n'umuco wa kinyarwanda nk'ibiseke ndetse n'ibindi, hari kandi n'indi myenda igiye itandukanye nk'amajezi yo kwambara n'ibindi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye abaguzi barimo ari benshi kuko buri wese aba ashaka ibicuruzwa ashaka, higanjemo imitako yo mu nzu ndetse n'ibikapu byo guheka.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye urugero nk'imboga n'imbuto kandi higanjemo nibyo guteka urugero nk'ibishyimbo ndetse n'ibindi harimo imboga zitandukanye nk'inyanya, ibitunguru, imiteja ndetse n'ibindi.......

Isoko ririmo imboga ndetse n'imbuto ryiganjemo imbuto zikurikira ari zo imyembe, amapapayi, amaronji, ibinyomoro, inanasi, watermelon n'ibindi.

Isoko ryiganjemo imboga ndetse n'imbuto, abaguzi ndetse n'abacuruzi, abacuruzi baricaye barategereje kugira ngo abaguzi nibaboneka baze gusanga babiteguye

kiyosike ya Emutiyene ikoreramo umukozi wa Emutiyene akaba atanga serivisi zitandukanye afite abakiriya bamugannye harimo abaje kubikuza, abaje kohereza amafaranga, abaje kubitsa ,ndetse n'izindi gahunda.

Kiyosike ikoreramo umukozi wa mtn akaba ashobora gutanga serivisi zigiye zitandukanye urugero akaba ashobora kukubikiriza amafaranga cyangwa kuyabikuza ikindi kandi ashobora kuguha amayinite yo guhamagara.

Kiyosiki ya Mobile Money, ikaba ikorerwamo n'umukozi wa MTN Mobile Money, atanga serivisi zigiye zitandukanye, kiyosike iriho icyapa cyamamaza uburyo bwihuse kandi bworoshye bwo kuba wakwizigamira bwa Mo Cash.

Uburyo bworoshye kandi bwizewe bwo kwishyura ukoresheje momopeyi aho wishyura batakase amafaranga yo kohereza kandi n'umucuruzi nawe ntibamukate andi mafaranga y'inyongera bukaba ari uburyo bworoshye kandi bwiza.

Umugabo ufite telefoni mu ntoki ze arimo arakoresha serivisi zitandukanye zo kwishyura akoresheje momo peyi kuko ari uburyo bworoshye emutiyeni mobayiro mani yashyiriyeho abakiriya bayo.

Umugabo ufite telefone mu ntoki ye afite n'ikarita ya banki, yambaye umupira wi'icyatsi kibisi, arimo arishyura akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga kuko afite ibicuruzwa yamaze kugura.

Kiyosiki ya MTN mobile money, aho abakiriya bayigana bagenda babaza amakuru agiye atandukanye. Umukozi wa MTN mobile money yambaye ishati ndetse n'umupira by'umuhondo arimo arafasha umukiriya waje abagana.

Apurikasiyo yemewe kandi yizewe, ushobora gusangaho ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ukoresheje terefone yawe cyangwa mudasobwa yawe, bityo ukaba wahita ubigura bikazakugeraho mu buryo bwihuse.

Burashi fudu, iyi ngiyi ni kampani ushobora kuba watumiza ibyokurya byawe bityo bikakugeraho mu kanya nk'ako guhumbya kuko mu kubitwara bifashisha moto. Aho ariho hose uri ushobora kubitumiza.

Umumotari utwara ibicuruzwa mu gihe bamutumye ku mukiriya aragenda akabimushyira neza neza aho uwo mukiriya atuye, umugabo urimo kwakira ibicuruzwa ahawe n'uwo mumotari.

Pozo deriveri, iyi ngiyi ni moto ishinzwe kuba yagemura ibicuruzwa ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye. Iyo watanze komande bahita babiha iyi moto, ikabinyarukana bikakugeraho mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Webusayiti cyangwa se ikindi kintu cyose ukenera. Aba ngaba bakaba barishyize hamwe, kugira ngo bagutunganyirize ama Webusayiti ushobora gukoresha urimo wamamaza ibicuruzwa byawe, ushobora kubahamagara kuri nimero zabo ukababwira.

Moto zifashishwa mu gutwara ibicuruzwa mu mujyi wa Kigali, mu nshe zigiye zitandukanye, bityo ushobora kuba watumiza ibyo guteka bigahita bikugeraho mu gihe gito, kubera yuko hari ibinyabiziga bishinzwe kubikugezaho byihuse.

Moto enye zose ziparitse ziteguye kujyana ibicuruzwa abantu bari bube batumije ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye, kandi bahita babibona mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Pulatifomu zikoreshwa onilayini zo kuba ushobora kuba wahahiraho, puburiste ya eyateri irimo kwamamaza jigabayiti mirongo itandatu ku mafaranga ibihumbi bitanu gusa kandi ukaba wahamagara uko ushaka kose.

Inzu nziza cyane iri mu gipangu cya yonyine, ifite amabati y'umutuku yo mu bwoko bwa kadasiteri, igipangu cyayo kirasa umukara, ikaba iherereye i Kigali, ushobora kuyigura kuri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane iherereye i Kigali mu Rwanda, itarimo ibikoresho byo mu nzu, ariko isize amarangi meza cyane y'umweru na purafo nziza cyane, ukaba ushobora kuyigura kuri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda.

Hano kumadolari igihumbi n'ijana yonyine ushobora kubona inzu nziza cyane yo gukodesha, irimo ibikoresho byose byo mu nzu, harimo intebe nziza cyane, televiziyo, utubati ndetse n'ibindi, iherereye Kicukiro mu Kagarama.

Inzu nziza cyane igurishwa, ikaba ifite ibyumba bitanu kandi hanze hayo hari aho abantu bashobora kwicara bakaganirira, hatwikiriye. Ifite n'ubusitani bwiza cyane burimo indabo ndetse n'ibiti bitanga akayaga keza.

Inzu nziza nini ifite igikoni cyo mu nzu kirimo ibyangombwa byose harimo amakwiziniyeri, amafirigo yo kuba wakwifashisha mu gihe ushaka gukonjesha ibintu, ikaba iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru undi wambaye ishati y'umukara barahagaze bariregeye barimo kureba hakurya a aho umujyi bawutegeye kandi bose baratuje.

Icyumba kimwe n'ubwogero bumwe. Ku bihumbi magana abiri gusa ushobora kubona inzu irimo ibikoresho bitandukanye, byaba ibyo mu nzu n'ibyo mu gikoni kandi ukayibona i Kigali Kacyiru.

Inzu yo gukodeshwa ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba igeretse inshuro imwe kandi ifite ibirahure biyikingishije bya fime, isize n'amarangi y'umuhondo.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi. Inzu ya kadasitire, ifite amabati y'umukara ndetse ikaba ifite n'ibyangombwa byose.

Aho bahahira ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo iby'ubwiza, imitako yo mu nzu, amashanete agiye atandukanye ndetse n'ibindi bikoresho by'umuco nyarwanda.

Ihahiro ririmo n'aho abantu bashobora kuba bakicara, hari intebe zikoze mu biti ndetse n'ameza akoze mu ibiti meza cyane, mushobora kwicaraho mukaganira munafata ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Abaguzi barimo kwinjira, abandi basohoka kandi bose bari kugenda banyuzwe n'ibiciro bihari. Buri mukiriya wese n'icyo yifuza, araza kukibona kuko bihari.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bitandukanye urugero intebe zo kwicaraho rikaba harimo kandi intebe zo kwicaraho abantu bari kurya harimo ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye nk'imyambaro n'ibindi.

Ihahiro rusange rya Simba supa maketi, rikaba rihorana abakiriya. Abagabo n'abagore bari kwinjira kugira ngo bajye guhaha ibyo bakeneye byose kandi barabisangamo kuko higanjemo ibyoku kurya n'ibyo kunywa.

Ihahira rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hakaba hari n'abaguzi bazindutse baje guhaha harimo abagore, abagabo, ndetse n'abandi bana. Bose bakaba bari kureba ibicuruzwa bifuza.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye urugero; nk'imitako, imyenda, inkweto, n'ibindi hakaba harimo abaguzi bose bakaba bari kureba ibyo bifuza kuba bagura bakabitahana.

Umusaza n'umukecuru bishimiye y'uko bamaze kuba bamwe mu banyamuryango ba Ejo Heza kandi bakaba biringiye y'uko mu gihe kiri imbere bazabaho neza.

Abaturage batandukanye abamama bane bari kumwe n'abana babo bakaba bose bafite amafoto y'ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mituweli bo n'abana babo.

Umugore wambaye ishati y'umweru afite terefone mu intoki ze kandi afite n'ikaramu mu ntoki, akaba ari mu kazi akaba akorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi ara ese ese bi.

RSSB ni ikigo cy'ubwizigamire bw'abakozi mu Rwanda. Kikaba cyashyize hanze raporo igaragaza uko umwaka wagenze, kuva mu kwa karindwi bibiri na cumi na gatatu kugeza mu kwa gatandatu bibiri na cumi na gatatu.

Supamaketi, ihahiro rusange riba ririmo ibicuruzwa bitandukanye, muri iri ngiri higanjemo ibyo kunywa birimo amata, amaji, inzoga ndetse n'ibindi by'ubwoko bwose.

Ihahiro rusange riba ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'abakiriya baje kwihahira ibyo bakeneye kandi bashobora kwishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bagahabwa fagitire ya ibi emu yemewe.

Supamaketi, ihahiro rusange riba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byose wakenera, umukozi wabo ushinzwe kwakira amafaranga, iyo uhageze ushobora kumwishyura ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se mu ntoki.

Supamaketi, ihahiro ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye higanjemo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, kakaba hanze yako hari parikingi nini ushobora kuba waparikamo imodoka mu gihe ugiye guhaha.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, higanjemo ibyo kunywa biri mu mafirigo, urugero nk'amafanta, amaji agiye atandukanye, ibindi binyobwa bisindisha n'ibidasindisha, hakaba harimo kandi amayahurute y'inyange n'ibindi.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bitandukanye, byaba ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'ibindi, harimo abaguzi barimo kugenda bashaka ibyo bifuza, byose kandi ahantu bari bwishyurire barakoresha ikoranabuhanga.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, byaba ibyo guteka, imbuto, ibyo kunywa, ibyo kurya, ndetse n'ibindi. Higanjemo ibyo kunywa bidasindisha, harimo amaji n'amata.

Arimantasiyo ifite abakozi bafasha abantu kugira ngo baze kubona ibyo bakeneye kuko ari nini cyane. Bakaba kandi bishyura bakoresheje ikoranabuhanga kandi bagatanga fagitire yemewe ya EBM.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, urugero nk'amaji agiye atandukanye y'ubwoko butandukanye, ibyo kunywa byiganjemo amata ndetse n'ibindi bitandukanye buri wese ashobora kubona ibyo yifuzamo.

Umugabo urimo urishyura ibicuruzwa cyangwa se ibyo yafashe akoresheje ikoranabuhanga, yambaye amarinete n'isaha ndetse yambaye n'ishati isa icyatsi.